Abana biga mu mashuri y'inshuke, bagomba guhabwa ibikoresho bibafasha kwiga. Harimo ibikinisho nk'imipira, imodoka, n'ibindi. Ariko abakuru bahabwa ibitabo.

Umwana wanjye akunda gukina, cyane cyane kwicunga. Iyo mbonye akanya, mutwara kuri hoteli agakinana n'abandi bana.

Ibishushanyo by'amasaha ari mu kizeru ndetse n'andi ya mpande enye, ashushanyije ku bikuta by'amashuri.

Abana bato cyanecyane abafite imyaka ibiri cyangwa se itatu, bakunda gufata iyo bari kwigishwa ibintu bisekeje kandi bifite amabara atandukanye.

Ibigo by'amashuri abanza bigomba gushyiraho ibishushanyo, kubera ko abanyeshuri iyo bari kwigira mu bishushanyo, bituma bafata neza kandi ibyo bize bakazabikoresha no mu buzima busanzwe.

Mu kwigisha habamo icyo bita imfashanyigisho, ibitabo rero ni bimwe mu byifashishwa kugira ngo abanyeshuri bumve ibyo barimo kwigisha cyane cyane nk'abo muri nasari cyangwa se mu mashuri y'inshuke.

Abana bato cyane cyane b'imyaka itatu cyangwa se ibiri, iyo bagiye kwiga bagomba guhabwa ibikinisho kugira ngo bige neza batarambirwa.

Ahantu hose hari abana bari munsi y'imyaka ikenda, iyo ugiye kubigisha ugomba kwifashisha amashusho kandi y'amabara yose, ku buryo imyigire yabo itagorana.

Abana bato cyane cyane ab'inshuke biba byiza iyo bigishijwe hifashishijwe ibishushanyo ndetse n'amafoto kubera ko ari bwo bafata ibyo bize.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ya kaki ndetse n'abandi b'akobwa bambaye kotoni ndetse n'abarimu b'abakobwa babiri.

Umupira ni kimwe mu bishimisha abana biga mu mashuri mato kubera ko utuma basabana na bagenzi babo kandi bakigira no gukorera hamwe.

Mu masomo yigwa mu mashuri abanza, harimo n'imibare. Abanyeshuri bishimira iri somo kubera ko ribafasha mu buzima busanzwe, haba mu kubara ndetse no kugura ibintu bigiye bitandukanye.

Mu gihe dushaka gukina, tujya ku kibuga cy'umupira tugakina. Abarimu bacu batubwiye ko gukina bituma indwara zimwe na zimwe zitandura zitadufata.

Igihe cyose cyo kwiga abana bagomba gutwara ibikoresho bibafasha kwiga, birimo amarate, makayi ndetse n'amakaramu kubera ko iyo batabitwaye bashobora no gutsindwa.

Mu mashuri y'inshuke biba byiza ko ibibaho biba byegereye hasi cyane kubera ko abana bigamo baba atari barebare nuko rero bibaye biri hejuru ntabwo babasha kwandikaho.

Amashuri abanza yigamo abana bafite imyaka icyenda kugeza kuri cumi n'icyenda, iyo umwana ayarangije ahita ajya mu mashuri yisumbuye agatangira kwiga amasomo arimo siyansi nka Biology ndetse na Chemistry.

Kwigisha abana cyane cyane bari munsi y'imyaka cumi n'itanu bisaba gukoresha ibikinisho birimo imipira ndetse n'ibindi bibafasha kumva ibyo barimo kwiga, cyane cyane nk'iyo bari kwiga imibare bakoresha agasanduku karimo amarate bazaza bifashisha baca imirongo.

Umwana ufite ubumuga nawe ni nk'abandi bose, agomba kujyanwa ku ishuri kandi akitabwaho n'abarimu ntibamuvangure.

Igifuniko k'igitabo kiriho abanyeshuri barimo gukora imirimo igiye itandukanye cyanditseho ngo ubugeni n'umuco amashuri abanza.

Ibikoresho byo ku ishuri byifashishwa n'abana bato birimo amakaye, imikasi amakaramu y'ibiti ndetse n'amarate.

Ibishushanyo byifashishwa mu kwigisha abana b'amashuri abanza kugira ngo bamenye ibyo biga bitabagoye.

Abanyeshuri biga mu bigo by'inshuke, usanga bahabwa ibikinisho ndetse n'ibindi bintu bifatika birimo nk'umubumbe, kugira ngo basobanukirwe neza ibyo barimo kwiga.

Mu gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe abatutsi, abanyarwanda twese tugomba kujya muri icyo gikorwa. Hanyuma n'abato tukababwira amateka, kugira ngo atazisubiramo.

Abagabo babiri n'abagore babiri, aba bari kureba ikigo cy'amashuri, iki kigo cy'amashuri kandi ni ikigo cy'amashuri yisumbuye, aba ngaba baragenzura niba iki kigo cyemerewe kwigirwaho kugira ngo bazashyireho n'abandi bantu cyangwa se abandi banyeshuri bagiye batandukanye.

Ibigo by'amashuri, cyane cyane amashuri yisumbuye, biba bigomba gushyiraho abashinzwe umutekano, kugira ngo abanyeshuri batajya hanze bakanywa ibiyobyabwenge.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, iyo bari kwiga isomo ribakomerera cyane nk'imibare, bifashisha utumashini kugira ngo batabona zeru.

Mu gitondo cya kare mu mashuri abanza n'ayisumbuye, bagira inama kubera ko abayobozi babanza kureba niba abanyeshuri bose baje kandi bakanatanga n'amatangazo.

Umwarimu mwiza cyane wambaye amalinete, akaba afite agakoti keza cyane kari gusa umukara, ndetse n'ipantaro nziza cyane, akaba ahagaze imbere y'abanyeshuri arimo kubigisha.

Abantu batatu barimo umuyobozi w'ikigo ndetse n'abanyeshuri babiri, barimo gutanga imbwirwaruhame imbere y'abanyeshuri, abanyeshuri nabo baratuje, barimo kumva ibyo barimo kubwirwa.

Iyo abanyeshuri bari mu ishuri cyane cyane abo mu mashuri yisumbuye, bagomba gutega amatwi umwarimu kugira ngo bumve neza iby'abigisha, umwarimu na we akwiye gutanga uburere ndetse n'uburezi bwiza.

Mu gihe cy'icyorezo gikaze nk'icyateye mu bihumbi bibiri na makumyabiri cyitwaga Covid cumi n'icyenda, abanyeshuri ndetse n'abandi bantu bahura ari benshi, basabwaga gukaraba intoki.

Mu mashuri makuru nta bibaho bagira, ahubwo bagira utubaho bakoreraho imyitozo, ndetse n'umwarimu akabandikiraho.

Mu ishuri ry'ubumenyingiro, iri rizwi nka TVT mu rurimi rw'Icyongereza, bakora ibintu bigiye bitandukanye, bibafasha gushyira mu bikorwa ibyo bize.

Amashuri makuru y'imyuga azwi nka TVET bakora ibintu bijyanye n'ibyo biga harimo nk'utubindi ndetse n'ibindi bikozwe mu ibumba.

Mu karere ka Nyagatare, Umurenge wa Nyagatare, Akagari ka yNagatare, mu Mudugudu wa Kinihira, haherereye Kaminuza nkuru y'u Rwanda Ishami rya Nyagatare, ahangaha ushobora kuhiga ubwarimu ndetse n'ubuvuzi bw'amatungo.

Kuri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Nyagatare niho wasanga iyi nyubako ibyo aribyo byose uwafashe ifoto yayifashe aha ngaha gusa icyo ntazi ni uko niba yari abifitiye uburenganzira.

Inyubako ndende yubatswe na Leta y'u Rwanda, kugira ngo ige yakira abanyeshuri baje kwiga muri kaminuza.

Inzu nziza cyane iteyeho indabo kandi igeretse inshuro nyinshi, akaba ari ho abanyeshuri ba kaminuza bigira.

Umuntu wese urangiza amasomo ye ya kaminuza usanga bimushimishije cyane kubera ko na we aba aje mu mubare w'intiti igihugu ndetse n'isi bifite.

Amashuri makuru ndetse na za kaminuza, baba bafite ibikoresho byinshi kandi biteye imbere, twavugamo nka mudasobwa, intebe, ndetse n'amasomero y'ibitabo.